Ni ngombwa kandi birakwiye ko igihe icyo ari cyo cyose tugomba kwicarana ubwishingizi cyane ko impanuka idateguza, gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri butangwa na Radiyanti yacu limitedi wirinde sinamenye, ku bindi bisobanuro wahamagara cumi n'umunani icumi cyangwa se telefone igendanwa zeru karindwi iminani ibiri mirongo itatu n'umunani icumi mirongo icyenda na gatatu Radiyanti yacu ubwishingizi buciriritse.

Iri ni iduka ricuruza imyenda ikomoka ku bi bitenge, harimo amakanzu, y'imipira ndetse n'udusengeri, nk'uko bigiye bimanitse, uyu mu mama ari kwigira ikanzu iramubereye ni nziza.

Amata ni ikinyobwa gisaba ubwitonzi mu kugitegura, ndetse gikenera isuku ihagije. Uyu mukobwa arasuka amata yigengesereye ndetse yitonze, mu birahure bisa neza yateretse ku dupurato dukeye dufite isuku.

Mu gihe turi kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se telefone zacu, ni ngombwa ngo tube maso mu gihe twishyura, niyo mpamvu igihe uri kwishyura nkuko turi kubibona, bakuzanira uburyo bw'ibyo wahisemo, urebe neza nimba koko ibyo wahisemo aribyo ubone kwemeza.

Ibi ni ibikoresho byo muri saro, bikozwe mu mbaho, ibi bikoresho bikaba bigizwe n'intebe eshatu, intebe imwe ifite imyanya itatu, indi ntebe ifite imyanya ibiri ndetse n'indi ntebe ifite umwanya umwe, mo hagati harimo akameza.

Imitako ni myiza, igaragara neza ndetse n'aho itatse hasa neza. Nk'uko tubibona, uyu ni umutako ukozwe mu giti cyangwa se mu rubaho rusa neza, ugiye usobekeranyijemo utuntu duteretseho amavaze ndetse hirya yaho hari n'akandi kavaze k'umweru, karimo ururabyo rurerure, hirya yaho gatoya hari ivaze risa nk'umukara na ryo ririmo ururabo.

Ujya wibaza ahantu ho gusohokera mu gihe ukeneye kuruhuka cyangwa se mugihe utakoze, dore ahantu wasohokera, aha ni ahantu heza cyane hagizwe na pisine hari utubingaro, ndetse haratuje.

Inama iba igomba kwitonderwa igakorerwa ahantu hatuje hari imvayilonumenti nziza hatabangamiye abitabiriye inama. Iki ni icyumba gikorerwamo inama kisanzuye gifite imyanya ihagije cyakakira abantu barenze icumi.

Aka niko dukunze kwita mu ndimi z'amahanga furaya. Iyi ni ayi endemu banka. Iri gushaka umukozi kuri pozisiyo ya invayironomento andi sosho risiki manajimenti sipeshiyarisite. Igihe ntarengwa ni tariki cumi n'enye, z'ukwa gatandatu, bibiri na makumyabiri na kane, isaha y'isakumi n'imwe.

Nk'uko tubizi ubucuruzi buciriritse butunze benshi ndetse butunze n'imiryango ya benshi muri rusange iri akaba ari isoko ry'imbuto hari imineke hari ibinyomoro hari amaronji ,wotameroni ndetse hari inanasi, abantu bari kurigana bari guhaha ndetse n'abacuruzi bari gucuruza.

Iri n’ isoko ricuruza ibijyanye n'imbuto hari imineke, imyembe, watermelon, amatunda ndetse n'ibinyomoro abacuruzi baricaye bategereje abakiriya ndetse hari n'abacuruzi bari kugurisha banegosiya n'abakiriya.

Turacyakomeje gutemberana isoko ry'imboga, iri n'isoko ry'imboga rigizwe n'inoryi, inyanya, karoti, imboga rwatsi benshi tuzi ku izina rya dodo, amapavuro ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Abacuruzi bari gucuruza ndetse n'abari kurigana bari kuza guhaha.

Muze dutemberane isoko ry'imboga abacuruzi baracuruza ,abahaha ndetse nabo bagahaha turikubona sereri ,intoryi ,pavuru, karoti , tungurusumu ndetse na tangawizi.

Muze dutemberane isoko ry'imboga iri ni isoko rijyanye n'ubucuruzi buciriritse budasaba igishoro gihambaye hari imiteja, inyanya, ibitunguru, intoryi, karoti, pavuro ndetse n'ibishyimbo by'ibitonoki.

Nk'uko turi mu nzira y'iterambere ni nako muri buzinesi bimeze dusigaye twicara mu ngo zacu tugafata telefone tugatumiza ibyo dukeneye bikadusanga mu rugo iyi ngiyi ni moto itwara cyangwa se iderivaringa ibiryo bya rashifudu

Gutura neza ntibikiri ikibazo iyi ni inzu nshyashya yuzuye Kigali i Kanombe, ni inzu igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ihagaze miliyoni ijana na cumi.

Turacyakomeje urugendo rwo kuranga inzu zikodeshwa, iyi ni inzu nziza iherereye kagarama, ni inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, igizwe n'ibyumba bine, ubwogero butatu ndetse irasakaye imeze neza.

Ntibikiri ikibazo kubona inzu nziza yo gukodesha iyi ni inzu ikodeshwa iherereye kigali kanombe akaba ari inzu igizwe n'ibyumba bine ubwogero butatu ndetse n'inzu igaragara neza isize amabara meza.

Iyi nzu nziza ni inzu iherereye kigali kimironko ikaba ikodeshwa ni inzu igizwe n'ibyumba bibiri ubwogero bubiri amafaranga ikodeshwa ni ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Dukomeje urugendo rwo kuranga inzu zigurishwa. Iyi ni inzu ikaba iri ku isoko, iherereye i Kigali, Kibagabaga; iragurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine. Ni inzu isakaye ndetse isize amabara meza.

Kimwe mu bikurura abakiriya cyangwa se abatugana muri buzinesi zacu zigiye zitandukanye, ni aho dukorera. Iyo ukorera ahantu hasa neza, nta kabuza n'ibyawe biba bikeye bisa neza. Iyi ni buzinesi icuruza cyangwa se itanga serivisi zijyanye n'iby'amavuta.

Benshi muri twe tumaze kubimenyera ko iyo turi guhahira mu ma supamaketi, tuba tuzi aho buri kintu dukeneye tugisanga. Ni nk'uku bimeze muri iyi supamaketi. Buri bwoko bw'amaji buri ukwayo, amafanta ari ukwayo, buri kintu, buri kategori y' ikintu kiri ukwacyo.

Akenshi mu ma supera maketi ajyiye atandukanye mu gihe uri guhaha, ukaba uri buhahe ibintu birenze ibyo watwara mu ntoki, hari utubacket washyiramo ibyo uri guhaha bitakugoye. Nk'uko tubibona uyu mugabo ari guhaha ibyo kunywa ariko afite n'akabaketi ari kwifashisha agenda ashyiramo ibyo ari guhaha.

Ejo heza ni gahunda y'ubwizigame yashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ifashe abanyarwanda mu gihe cy'ahazaza, batagikora, baravuye, mu mirimo cyangwa se, mu gihe bahuye n'ikibazo kibakomereye.

Kwishyura mituweri do sante waba urwaye cyangwa se utarwaye ni ingenzi mu buzima kuko indwara ntiteguza, uyu mubyeyi wicaye hano afite ubwishingizi bubiri, aribwo mmituweri do sante bigaragara ko yasoje kwishyura.

Mu ma supamaketi ni ahantu tumaze kumenyera guhahira, cyane ko tuba tuzi aho buri gicuruzwa bitewe n'cyo dukeneye aho tugisanga. Iyi ni supamaketi nk'uko bigaragara buri kintu kategori y'ikintu iri ukwacyo.